Mu mabara y'umweru n'ubururu ndetse n'umukara n'icyapa kiranga ingengabihe y'imikorere y'abakozi ba radiant ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'izindi zitandukanye kikaba gikora kuva kuwa mbere kugeza ku wa gatandatu ndetse no ku munsi w'umuganda gikora saa saba z'umugoroba kugeza saa kumi n'ebyiri.

Mu magambo yanditse mu ibara ry'umweru, mu kirango cy'ubururu, agira ati sanilamu akarongo alayansi ndetse n'ikimenyetso cy'umuntu uzamuye amaboko, iki ni ikigo gitanga ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ubwishingizi mu bindi bitandukanye.

Iyamamaza cyangwa se imenyekanisha ry'ibikorwa bya britam, sosiyete itanga ubwishingizi bw'inkongi cyangwa se bwo kwivuza n'ibindi bitandukanye, cya gihe uba ufite ibyishimo n'umutuzo kuko imodoka yawe iri mu biganza by'inshuti yizewe, hitamo Britam.

Icyapa kiranga aho RSSB ikorera, ikigo gitanga ubwishingizi ku baturage b'u Rwanda ndetse kikabaha uburenganzira bwo kwivuza biboroheye mu mavuriro menshi y'igihugu.

Imenyekanisha cyangwa se iyamamazwa ry'ibikorwa by'ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu kwibwa, mu kwivuza ndetse n'ibindi Radiyanti. Kimenyekanisha ko nta mpamvu yo kwibwa mu gihe bakwishingira, ntawamenya ejo wasanga ibyawe byibwe irinde sinamenye.

Radianti ikigo cyishingira abantu n'ibintu byabo kikwereka ibyiza byo kwishingira umuryango wawe ahazaza ndetse n'ubu ndetse n'ibyawe byose birakwereka uburyo wahamagara radianti ikaguha ubusobanuro ndetse n'ubufasha bukwiriye.

Urubuga rw'ikigo cy'imari runaka rukwereka amafaranga ufite muri konti, rukakweka na serivisi wakoresha urwo rubuga kugira ngo uzibone harimo kwishyura, kohereza amafaranga, kwishyura ibikoresho runaka wahashye ndetse n'ibindi byinshi.

Urupapuro rumwe mu zigize urubuga rwa banki ukoresha wifashisha ureberaho uko konti yawe yinjizaho amafaranga ndetse n'uko uyakuraho, bikwereka igihe wabikoreye, itariki ndetse n'amasaha icyo gikorwa cyabereye.

Ni urupapuro rwo ku rubuga rw'ikigo cy'imari cyitwa banki ofu Afurika, rukwemerera kuba washyiramo telefone yawe ndetse n'umubare w'ibanga, hanyuma ugakurikirana ibikorwa byawe muri iyo banki, uko winjiza amafaranga ndetse n'uko uyabikuza.

Iduka cyangwa se iguriro ryitwa Topu fashoni butike, rigurishirizwamo imyambaro itandukanye irimo iy'abana, iy'abagore, iy'abakobwa, tutibagiwe ndetse n'iy'abagabo, riri ahantu heza, rifite isuku ndetse kuriguriramo ni byiza.

Ku muryango cyangwa se ku marembo y'iduka ricururizwamo imyambaro itandukanye iy'abagabo nk'imipira, inkweto, imikandara n'ibindi byinshi. Hari isuku, hameze neza, iryo duka ryitwa purayidi botike aho bigaragara ku muryango hejuru y'aho winjirira.

Mu isoko cyangwa se mu iduka ry'imyenda myiza yiganjemo iy'igitsina gore, ingofero nziza mu mabara atandukanye, harimo umukobwa wambaye neza, umutuku ndetse n'umweru, ufite ikoti mu ntoki riri mu mabara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Iduka cyangwa se butike abenshi dukunze gusangamo ibikoresho bya made in Rwanda bivuze ko biba byarakorewe mu Rwanda harimo amasakoshi ariho amashusho atandukanye hariho ayariho umuntu wiyogoshesheje ibisagi.

Amaduka mato mato abenshi dukwi kwita butike akunda kuba mu duce dutandukanye twinshi tw'igihugu, aho usanga acururizwamo ibikoresho mu buryo butoya nk'amasabune nk'imiceri, amaomo ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha mu buzima bwa buri munsi ku giciro gito.

Mu isoko cyangwa se mu iduka rigurishirizwamo imyenda itandukanye harimo n'iy'abagabo cyangwa se iy'abasore itandukanye, ryitwa Gorudeni fasheni shopu, harimo amakabutura, amakoti, imipira yakwifashishwa mu gihe uri gukora imyitozo n'ibindi byinshi.

Amaduka mato mato dusanga mu duce twinshi dutandukanye tw'igihugu, abenshi dukunda kwita za butiki, adufasha guhahiramo ibikoresho twifashisha mu buzima bwa buri munsi butandukanye hafi yacu ndetse ku giciro kitworoheye.

Inyubako y'igorofa ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku ikoreramo iduka ricuruza ibijyanye n'ubwiza ryitwa gorudeni fashoni shopu rikaba ricuruza ibijyanye n'imyenda, inkweto z'abagabo ndetse n'abagore.

Iduka cyangwa se butike yubakishijwe n'imbaho nini zitambitse, harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'inyanya, umunyu, amajyani, omo ndetse n'utundi tuntu twinshi, harimo umugore urimo araricuruzamo wambaye isengeri y'umukara.

Ni mu iduka cyangwa se butike icuruza imyambaro y'abategarugori, ni imyambaro myiza, iri ahantu heza, inyubako ifite amatara meza, ndetse urabona ko ari ahantu hafite isuku nyinshi cyane ku buryo uwahahahirayaba ahahiye ahantu heza.

Ave simati botike ni iduka ricuruza imyambaro y'abana ndetse n'iy'abantu bakuru, imideri ndetse n'ibindi, haba hasangwamo amakanzu, amakabutura, amapantalo ndetse tutibagiwe n'inkweto bifite ubwiza cyane.

Ni iduka cyangwa se butike irimo imyambaro y'abagore, harimo inkweto z'amoko atandukanye nziza ndetse n'imyenda y'abagore cyangwa se abakobwa myiza itandukanye, mu mabara yose ashoboka.

Umwambaro w'abagabo uzwi ku izina rya kosisitime, uri mu ibara rijya gusa umweru wijimye, rigizwe n'ikoti, ishati y'umweru ndetse na karuvati ijya gusa ikigina. Riri mu iduka ryitwa gorudeni fashoni shopu.

Ni abagabo babiri bahererekanya igifunguzo gitanzwe na kampani yitwa ABG Akagera motozi, bahagaze imbere y'imodoka nini iri mu bwoko bwa fuso, ifite ibara ry'ikigina ndetse n'umweru.

Imodoka ziparitse imbere y'ikirango cya yundandayi ziri mu bwoko bumwe bwa kwasiteri mu ibara ry'umweru. Ahagana hejuru mu ibara ry'ubururu hakaba handitse Volcano express. Imbere yazo hahagaze abagabo babiri mu mipira isa yo mu ibara ry'ubururu.

Muri parikingi isashemo amatafari atondetse mu buryo bwiza, ahari icyapa kirekire cyanditseho Yundayi kiri mu ibara ry'ivu, haparitse imodoka nziza cyane iri mu ibara ry'umukara.

Imodoka ifite ibara ry'umukara ikaba ari nziza, iri mu bwoko bwa Yundayi takison bibiri na cumi, ikaba igurishwa miliyoni cumi n'ebyiri, imodoka yegeye hejuru ndetse urabona ko ifite ubwiza buhagije.

Ni ku cyicaro cy'ikigo cya Akagera motors, hahagaze abagabo babiri barahana igifunguzo nk'ikimenyetso cyo kwerekana ko bamaze kugurirana imodoka, haparitse imodoka eshatu harimo n'inziza bahagaze iruhande.

Ni uburyo bwo kugurisha no kwamamaza imodoka nziza y'umutuku, ushobora kubonaho nimero wahamagararaho, ku buryo byakorohera guhita uyigura ndetse n'imodoka nshyashya, ubona ko ikozwe vuba,

Muri parikingi y'inyubako ndende iri mu mabara y'umweru ndetse n'ibirahuri by'umukara, haparitse imodoka yo mu bwoko bwa KIA forite otomatiki, yo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri, iracyafite umwimerere wayo ndetse iri kugurishwa miliyoni icumi.

Imbere y'imodoka eshatu zose nziza ziri mu ibara ry'umweru, hahagaze abagabo babiri, bahana igifunguzo kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho ABG Akagera motozi ndetse inyuma yabo hari shitingi ndende iri mu ibara ry'umweru nayo yanditseho ABG.

Imodoka nziza y’umukara iri mu bwoko bwa Kiya, niro hayiburidi, otomatiki ya 2016, iri kugurishwa amafaranga angana na miliyoni 17 z’amafaranga y’u Rwanda.

Umugabo ariho arabara amafaranga yifashishije akuma kagenewe gushyiramo inoti kakaguha umubare w'amafaranga ushyizemo. Ndetse ku meza imbere ye hateretse amabandari menshi y'amafaranga y'amadorari mu noti z'ijana.

Inoti yahoze ikoreshwa mu Gihugu cy'u Rwanda, ikaba yarakozwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani n'umunani, yari ishushanyijeho umugore wikoreye agataro, abantu bariho barahinga banasarura ku ruhande rumwe, ndetse urundi ruhande hariho ibyanya nyaburanga, imisozi n'ibibaya.

Inoti y'ibihumbi bibiri y'amafaranga akoreshwa n'igihugu cy'u Rwanda, ifite ibara ry'ubururu ndetse ishushanyijeho icyanya nyaburanga kiriho imisozi ndetse n'amazi, isinyweho n'umuyobozi mukuru wa banki nkuru y'u Rwanda ndetse n'uwungirije,

Inoti y'ibihumbi bitanu nshya ikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba yarasohotse tariki makumyabiri n'umunani z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kane, iri mu ibara ry'umutuku, ishushanyijeho ingagi ndetse n'umuturirwa w'igorofa ryitwa Kigali komvesheni senta.

Inote imwe yo mu zikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, amafaranga igihumbi akaba ari mu ibara ry'icyatsi ndetse rivanzemo n'ubururu bwerurutse ndetse ifite ikirangantego mu kizeru, iruhande rw'iburyo ikaba ishushanyijeho inyamaswa ikunda kuba muri pariki yitwa inkende.

Ibiceri bibiri bikoreshwa mu gihugu cy'u Rwanda, byubitse ku meza biri mu mabara atandukanye, kimwe gifite ibara ry'izahabu gishushanyijeho igishushanyo cy'ishaka, ikindi kiri mu ibara ry'ifeza gishushanyijeho icyatsi, byose byanditseho ngo banki nkuru y'u Rwanda.

Ku meza y'ubururu bwerurutse ahacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, haragaragara teremusi ebyiri z'ingano zitandukanye ndetse n'amabara atandukanye, hagaragara nk'isorori y'umweru irimo ibyo kurya nka capati.

Mu iduka cyangwa se botiki, isanzwe icururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, birimo ibyahita biribwa ako kanya nk'imineke, amagi, atogosheje, capati ndetse n'amandazi, hari intebe z'umweru wakwicaraho ufata ibyo byo kurya.

Mu iduka cyangwa se butike ahacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye, ku meza ihateretse hari indobo ziboneranarana ebyiri, imwe irimo amandazi. Ni ikiribwa gikunzwe cyane kuko gitera imbaraga kandi kikaba gihendutse.

Isahani y'umweru igaye iteretseho amandazi menshi, asa neza ndetse abantu bayakundira ko ari ibyo kurya, umuntu ashobora kubona ahantu henshi hatandukanye, ku giciro gito kandi akaba afata mu nda umwanya munini.

Mwiduka cyangwa se butike isize amabara y'ubururu n'umweru, ahacururizwa ibyo kunywa bituruka mu ruganda rw'inyange nk'amazi, amata, amaji ndetse n'ibindi bitandukanye. Hari icyuma kiririmu' ibara ry'umweru gifiteho inyandiko z'ubururu inyange.

Iduka cyangwa se butike igurishirizwamo ibituruka mu ruganda rwitwa Royal fresh milk. Akaba ari amata ari mu bwoko butandukanye, ari mu mashashi, ari mu bikopo na byo bifite amabara atandukanye nk'ubururu, umuhondo, umutuku n'ibindi.

Ku rubaraza rw'inzu ifite ibirahure birebire by'umukara, hari abana bicaye ku ntebe y'umweru ndetse n'imeza iteretseho amabido abiri y'amata ndetse na bo barimo baranywa amata ari mu bikombe binini by'umweru ndetse na keke.

N'icyuma giteye nk'icyo dusanzwe tumenyereye cyitwa ATM kivamo amafaranga, ariko iki cyo kivamo amata, biratangaje umugabo ariho arasuka amata ava mujajyi ayashyira mu gikombe, ahagaze imbere y'icyo cyuma.

Ni mu iguriro cyangwa se butike, umwanya wagenewe kugurishirizwamo amata y'Inyange, hari ibyuma byifashishwa bikonjesha amata kugira ngo atagira ikibazo cyangwa ngo yangirike, hari kandagirukarabe igufasha gukaraba intoki zawe mugihe cyose biri ngombwa.

Iduka ry'ikigo cy'Inyange ahazwi nk'Inyange mirike zone, ahari icyuma kibikwamo amata kugira ngo atangirika ndetse n'abakozi bagikoramo mu myambaro yabo isa neza.

Mu cyuma gikonjesha ibiribwa ndetse n'ibinyobwa mu rwego rwo kugumana umwihariko wabyo, harimo amacupa menshi akorwa n'uruganda rwa Masaka, arimo ikinyobwa twita yawurute gikorwa mu mata ndetse no mu mutobe w'inkeri.

Mu iduka cyangwa se butike yagenewe gucururizwamo ibyo kunywa nk'amata y'Inyange, hari ibyuma bikonjesha amata kugira ngo agumane umwimerere ndetse atangirika mu buryo bwose, hari isuku ndetse harasa neza.

Mu iduka cyangwa se muri butike ifatirwamo amafunguro atandukanye y'ibinyobwa nk'amata, fanta, ndetse n'ibiribwa, nk'amandazi, amasambusa, ndetse n'ibindi bitandukanye, aho umubyeyi yicaye, arimo kunywa.

Isorori ifite ibara ry'umweru ishashemo emvirope y'ibara rya kakiyi, harimo ibiraha. Ni ibiryo bizwi ko biryoha bikorwa mu ifarini ndetse imbere hakaba harimo ibirayi biseye.

Ni uburyo bwo kwishyura ukoresheje iyakure kuri murandasi, bukwemerera kwishyura amafaranga ukayohereza mu kindi gihugu, bitewe n'igikorwa bagukoreye cyangwa se serivisi baguhaye utahegereye.

Ikigo cy'itumanaho cya MTN, mu buryo bwo kumenyekanisha uburyo ushobora kubona serivise zabo zitandukanye ndetse ukazishyura ukoresheje amafaranga ari kuri momo, utarinze ugura amanite nk'uko bisanzwe mu rwego rwo korohereza abakiriya babo.

Inoti y'igihumbi iri mu ibara rya oranje ndetse n'icyatsi, ni inoti yo mu gihugu cy'abaturanyi b'u Rwanda cya Tanzaniya. Ishushanyijeho inzu y'igorofa rimwe ariko nini cyane, ni inoti nziza ubona ko iteye amabengeza.

Ni inoti zirenze imwe z'amafaranga ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, azwi ku izina ry'idolari ry'ijana, ziri mu cyuma cyifashishwa habarwa ingano y'inoti kigatanga umubare w'amafaranga uko angana.

Mu kiganza afashe inoti ya makumyabiri y'amarupi, ni amafaranga akoreshwa n'igihugu cy'Ubuhinde, akaba afite ibara ry'icyatsi ndetse ashushanyijeho igishushanyo cy'inzu y'igorofa.

Inoti z'igihugu cy'Ubuhinde zigizwe n'inoti za magana atanu, ndetse n'inoti za bibiri, ziri mu mabara abiri atandukanye, harimo iz'icyatsi ndetse n'izifite ibara ry'iroza.

Mu mabandari menshi y'inoti zanditse ijana, zikoreshwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Amerika, zizirikishijwe udupapuro tw'umuhondo ndetse n'umweru, twanditseho imibare itandukanye, izo noti zikaba zishushanyijeho isura y'umugabo witwa Benjamin Franklin.

Inoti y'ijana iriho umugabo utari umwirabura ndetse n'ibiceri bitandukanye, bifite amabara atandukanye ndetse n'ingano zitandukanye, harimo iby'atanu ndetse n'ibya rumwe.

Inoti zitandukanye z'ibihugu bitandukanye, harimo iz'igihumbi ndetse n'iz'ijana, hari na kamashini kifashishwa bateranya amafaranga kugira ngo hataza kubamo kwibeshya cyangwa se ikindi kibazo mu kuyabara.

Inoti nyinshi ziri mu mabandari atandatu atandukanye zanditseho amayero magana abiri, ni amafaranga akoreshwa n'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi, ndetse kuri ayo mafaranga afite ibara ry'umuhondo hariho n'idarapo riranga ibyo bihugu.

Inoti nyinshi ziri mu mabandari atatu atandukanye, amafaranga yanditseho icumi, akoreshwa n'ibihugu byunze ubumwe bw'Uburayi, ariho ndetse n'ibendera ryayo, afite ibara ry'umutuku wiganje.

Hifashishwa akuma kabara inoti kagatanga umubare wayo kabonye, hari kubarwa amafaranga y'amadolari akoreshwa na Leta zunze ubumwe za Amerika, inoti y'ijana ndetse ishushanyijeho umugabo witwa Benjamin Franklin.

Inoti esheshatu zitandukanye, ni amafaranga akoreshwa n'ibihugu byunze ubumwe bw'Uburayi, akaba yitwa amayiro, ari mu mabara atandukanye umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse n'izindi, akaba ari magana abiri, ijana, mirongo itanu ndetse yewe n'atanu.

Inoti esheshatu zikoreshwa n'ibihugu byunze ubumwe by'Uburayi, zikaba zizwi ku mazina y'Amayero, zitandukanyijwe n'amabara ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'ibindi n'ingano yazo atanu, makumyabiri, mirongo itanu, ijana n'ibindi.

Amafaranga menshi mu noti nyinshi z'amafaranga y'Amadolari y'ijana, atondetse mu buryo bukoze nk'ikizeru, hejuru y'ibipapuro biriho impuzandengo y'ibikorwa bitandukanye mu mabara y'ubururu, umutuku, umuhondo ndetse n'ibindi.

Inoti nyinshi ziri mu mabandari atandukanye, ziteretse ku meza ndetse n'izifitwe mu ntoki ziriho zirabarwa, ziri mu mabara atandukanye yiganjemo oranje zikaba zishushanyijeho ifoto y'umugabo uzwi ku mazina ya Mahatima Ghandi.

Ku wa gatatu z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na kane, ku giciro cy'ivunjishafaranga riri kugura ndetse rikagurwa menshi ni iri Pawundi, na ho iriri kugurwa make ndetse rikagurishwa makeya ni amashiringi y'Amagande.

Inoti nshyashya zirenze imwe z'amafaranga y'abanyamerika azwi nk'amadolari, y'inoti y'ijana ari mu cyuma. Gishinzwe kubara inoti kigatanga umubare wayo kibonye.

Inoti nyinshi kandi z'ibihugu bibiri bitandukanye, harimo idorari ry'ijana ry'abanyamerika, ndetse n'inoti y'igihumbi y'igihugu cya nigeriya, zose ziri mu biganza by'umuntu asa nkaho ari kuyabara.

Ni ku biro cyangwa se iduka rimenyereweho serivisi zo guhinduranya amafaranga rizwi nka giosapu foregisi biro. Ku muryango waho hashushanyije amadarapo y'Ibihugu bitandukanye byinshi ndetse n'amafaranga bikoresha. Ni mu rwego rwo kugaragaza ko ibyo bihugu byose ayo mafaranga baba bayafite.

Ni duka cyangwa se butike ikora serivisi zo kuvunjisha amafaranga y'ubwoko butandukanye, yitwa foregisi biro dukomere, ku muryango waho hari ikibaho kiriho uko ivunjafaranga rihaze muri icyo gihe.

Mu biro by'ikigo cy'ivunjishamafaranga kizwi nka RG Foregis biro limitedi, aho gikorera hatangirwa serivisi zo ku kuvunjisha ndetse no guhindura amafaranga, hagaragara abakozi bacyo ndetse n'abakiriya bakigana.

Ikigo kizwi nka karensi egisicenji, ahatangirwa serivisi zo guhererekanya amafaranga ndetse n'ivunjishwa ry'amafaranga, aho gikorera kinatangira izo serivisi zacyo.

Ni iduka cyangwa se butike ritangirwamo serivisi nyinshi zitandukanye zirimo izo kubitsa no kubikuza ku mabanki atandukanye nka: Baki ofu Kigali, ekwiti, kojebaki, urwego, ekobaki. Ndetse na serivisi zo kwishyura ifatabuguzi ry'amazi wasake ndetse na rege.

Iduka cyangwa se ibiro by'ikigo cyitwa fiyuca foregisi gitanga serivise zitandukanye zirimo izo guhindura amafaranga cyangwa se kohereza amafaranga mu duce dutandukanye tw'isi kandi izo serivise zigakorwa mu buryo bwihuse.

Mu igorofa aho Prime foregisi biro ikorera, mu yandi magambo ibiro by'ivunjisha bya Prime bikorera, hejuru y'ishami ry'aho Remera buranshe ya KSB ikorera.

Isoko cyangwa se iduka rigurishirizwamo ibikoresho twifashisha mu rugo mu buzima bwa buri munsi nk'intebe, ibitanda n'ibindi, hari amoko menshi y'intebe asa neza mu mabara atandukanye arimo ay'ikinombe, iiz'umukara ndetse n'iz'umweru.

Ku iduka cyangwa se ahakorerwa hakanagurishirizwa ibikoresho bikozwe mu mbaho, dusanzwe twifashisha mu buzima bwa buri munsi mu rugo. hari igitanda cyiza gikozwe mu mbaho, gifite ishusho y'ibara ry'umutuku. Gifite ubwiza buhagije.

Isoko cyangwa se iduka ricuruza ibikozwe mu mbaho cyane cyane nk'imeza, ibitanda n'intebe. Hari intebe nziza zo mu buriro zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'imeza y'umweru, hari ibitanda biriho matera nini ndetse ubona ko ari nziza.

Ni ku iduka hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ahacururizwa ibikoresho bikozwe mu mbaho nziza zisa neza, hari imeza ikozwe mu rubaho rwa ribuyu n'intebe yazo dukunda kwita izo mu buriro zifite imyanya ine.

Ni iduka rinini risa neza, ririmo ibikoresho twifashisha mu buzima bwa buri munsi, ibyinshi bikoze mu mbaho nk'imeza nini ihagije ndetse n'intebe yazo, ifite imyanya itandatu umuryango wakwifashisha mu buririro.

Ni ku isoko cyangwa se ahakorerwa hakanagurishirizwa ibikoresho dukoresha mu buzima bwa buri munsi mu rugo, nk'intebe ndetse n'ibindi. Ziri mu mabara meza za oranje ndetse n'umweru ndetse n'imeza yazo, iri kumwe n'utumeza dutatu dutoya wakwifashisha ku ruhande.

Hoteri iri mu igorofa ndende ifite ibara rya oranje, yitwa Fo powenti, imbere y'iryo gorofa hariho amabendera atandukanye harimo n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Inzu ifite igikoni cyubatswe mu buryo bugezweho, gifite ibikoresho bitandukanye, utubati twubatse ku gikuta hejuru ndetse no hasi turi mu ibara ry'umukara n'umweru, harimo ibyuma byifashishwa mu gihe bashyushya ibyokurya ndetse n'ibikombe n'amajage.

Hoteli nziza cyane ifite umwanya wagenewe kogerwamo tuzi nka pisine, ifite ibice bibiri: ahagenewe kogerwamo n'abana batoya ndetse n'ahagenewe kogerwamo n'abantu bakuru. Ku nkengero zayo hari udutebe twiza, dufite imitaka itanga agacucu mu gihe uhicaye.

Ni mu cyumba kiza kirimo uburiri ndetse n'amatara meza gifite ibaraza hanze ushobora kwicaraho ukaganira n'umuntu, hari agacucu ndetse hitegeye umusozi uriho ibyiza nyaburanga, ndetse hari n'ibiti bishobora kuguha akayaga keza.

Igorofa ndende nziza y'ihoteri iteye amabengeza, ifite aho kwicara heza ndetse'aho kogera dukunze kwita pisine, hagutse hanini, ushobora kwidagadurira mu buryo bushoboka bwose.

Ni ubwogero abenshi dukunda kwita pisine, hari amafu kuko ni hagati y'inzu y'igorofa igeretse rimwe, ifite ibara ry'ikijuju ndetse n'ibiti byinshi bitanga umuyaga, bitanga amafu, hari intebe ushobora kwicaraho ukumva umerewe neza.

Mu busitani ahantu heza, hari indabo nziza ndetse n'ibiti, hari imeza iriho igitambaro cy'umweru ndetse n'intebe zikoze mu biti enye. Iyo meza iriho amasahani ndetse n'ibirahure birimo ikinyobwa.

Mu busitani bwiza butoshye buririmo indabo z'amabara atandukanye umweru, iroza, umuhondo ndetse n'umutuku hari intebe nziza mu ibara ry'umukara aho ushobora kwicara witegeye ahantu heza. Ndetse inyuma hakaba hari uruzitiro rufite inkingi y'umweru ndetse n'umukara.

Inyubako igeretse rimwe y'ihoteri yitwa Rebanoni, hoteri iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ikijuju, ifite ubusitani imbere yayo bwiza ndetse n'umwanya wagenewe guparikamo amamodoka uhagije.

Hoteli nziza kandi nini, ifite inyubako y'igorofa igeretse kabiri, iri mu ibara ry'umuhondo. Ikaba ifite ubwogero cyangwa se pisine, aho abakuru bogera ndetse n'aho abana bogera. Ku ruhande hari udutebe, turiho imitaka minini ku buryo abahicaye nta zuba ribageraho.

Hoteli nziza ifite inyubako y'igorofa, ndetse n'ubwogero bugari abenshi bita pisine, ku ruhande hari intebe nziza ziri mu ibara ry'umweru ushobora kwicaraho urambuye amaguru, ndetse hari ibiti byinshi n'indabo mu mabara meza, zishobora gutanga akayaga ndetse n'umuhumuro mwiza.

Muri hoteri nziza cyane iri Kigali, ifite isuku ndetse n'umutekano yitwa Ligendi hoteri, aho yakirira abayigana hari imeza nini nziza ikozwe mu giti cy'ibara ry'ikinombe ndetse n'amasaha atatu abasha kukumenyesha igihe.

Ihoteli y'igorofa nziza yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isize n'amabara meza y'ikigina, ifite igisenge cyubakishijwe n'amategura ndetse hari n'ubusitani bubereye kwicaramo, burimo imitaka ndetse n'intebe zuje ubwuzu.

Mu gihe cy'iminsi mikuru, ku muryango cyangwa se ku marembo, y'aho ikigo gitanga ubwishingizi mu kwivuza, cyangwa se n'ubundi bwishingizi butandukanye byitwa UAP, gikorera, kikanatangira serivisi zacyo, ku ba kigana bose.

Inzu y'igorofa ikorerwamo n'amaduka atandukanye, ahari ishami ry'ikigo buritamu gitanga ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ubundi bwishingizi. Hari n'umuajenti wa BPR,ni banki y'abaturage mu Rwanda. Imbere yaho hahagaze abantu batandukanye harimo n'ab'ikigo cy'itumanaho MTN.

Ku biro by'ishami rishya Britam, ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ubundi bwishingizi gitegura gufungura, bahatatse ibipiruzo biri mu mabara atandukanye, umweru, ubururu ndetse n'umutuku, bakubwira ko biteguye kuguha ibyiza birenze ibyo mwasezeranye.

Ni inyubako y'igorofa ikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi mu buryo butandukanye, icyo kigo kikaba gikorera mu igorofa hejuru y'ahakorera ikindi cyitwa shikinga ndetse icyo kigo kikaba cyitwa saniramu.

Ni mu nyubako nini nziza irimo amatara akwiye, hari ibyapa byerekana ko ugeze aho ikigo cy'ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ubundi bwishingizi ubwo ari bwo bwose gikorera cyitwa prime insurance, ni mu mabara y'ubururu ndetse n'umuhondo.

Ni iduka cyangwa se butike ifite izina rya Siteke, itanga serivise zitandukanye, harimo nk'iz'irembo ndetse n'iz'amabanki zegerejwe abaturage. Harimo nka Ekwiti, Beka, BPR, Ayendemu n'izindi nyinshi.

Amarembo manini ndetse n'igorofa ryiza rinini riri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umutuku, rikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi mu kwivuza ndetse n'ubundi bwishingizi butandukanye cyitwa UAP.

Ibiro by'ikigo gitanga serivise z'ubwishingizi zitandukanye, zirimo iz'inkongi y'umuriro, iz'impanuka zo mu muhanda cyitwa Sonarwa, gifite amashami mu gihugu, ahantu henshi hatandukanye ndetse kikaba kiyoborwa n'uwitwa Diana Mukundwa.

Iduka cyangwa se butike itanga serivisi zitandukanye zigendanye na murandasi cyane cyane harimo iz'Irembo, iza Rwanda Reveni Otoriti, iza RDB ndetse n'iz'amabanki atandukanye harimo BK ndetse na Equity, n'ibindi bitandukanye.

Ikigo cy'imari cyitwa ekwiti, gishishikariza abantu gufata inguzanyo kugira ngo babashe kwagura ibikorwa byabo ndetse n'ubucuruzi bwabo ngo babashe gutera imbere kandi bakomeze guteza imbere n'abandi.

Urupapuro rumenyekanisha ibikorwa by'ikigo cy'imari banki ya ayendemu, imenyekanisha ko kuri iki cyumweru imihanda yose izaba yerekeza raparisi i Nyamata ahazabera irushanwa ry'umukino w'amaboko Tenisi.

Ikigo cy'imari cyitwa Ecobank gikorera mu Rwanda ndetse n'ahandi muri Afurika, kirashishikariza abakiriya ndetse n'abakigana kwifashisha ikarita yabo yitwa puripeyidi viza, aho ushobora gukoresha iyo karita ukishyura ibyo wahashye kuri murandasi.

Mu nyubako ndende y'igorofa iri mu mabara y'ikigina ndetse n'ibirahuri by'umukara, ahakorera ibikorwa bitandukanye ari na ho hari icyicaro gikuru cy'ikigo cy'imari Goshini finansi plc, gitanga inguzanyo ndetse kikabitsa kikanabikurizwamo amafaranga.

Ni inzu y'igorofa igeretse rimwe, ikorerwamo ibintu bitandukanye, harimo n'aho ikigo cy'imari cyitwa copedu PRC mu gace ka Kimironko ikorera, ndetse harimo n'ibindi bikorwa nk'amabutike cyangwa se amaduka acuruza imyenda y'abagore ndetse n'iyindi.

Mu isoko cyangwa se iduka rinini cyane rifite igisenge kizamuye, harimo ibicuruzwa bitandukanye, nk'amashu, y'inyanya, imiteja, pavuro, kokombure, ibibiringanya ndetse hirya hagaragara abariho baracuruza, biganjemo abagore.

Mu isoko ry'ibiribwa bitandukanye, ababyeyi bariho baracuruza imbuto z'amoko menshi, zirimo ibinyomoro, amavoka, indimu, ipapayi, inanasi, imineke, ibihaza ndetse n'ibindi byinshi, bategereje ababagana ngo babahereze.

Ni isoko cyangwa iduka, ririmo imboga dukoresha cyane cyane mu buzima bwa buri munsi, rifite isuku, rimeze neza harimo cyane cyane borokoli, ishu tutibagiwe na karoti ndetse n'ibindi byinshi biri mu ibara ry'icyatsi.

Ni inzu y'igorofa rirerire iherereye hagati mu mujyi wa Kigali. Imenyerewe ku izina ry'isoko rya Nyarugenge cyangwa se ku izina ryaryo rya “ KIC”. Ifite amabara atandukanye ndetse n'ibirahure byinshi kuri yo.

Ni mu isoko rinini rigari ririmo ibiribwa bitandukanye, byiganjemo imboga ndetse n'ibinyamafufu, birimo karoti, intoryi, ivoka, ibitoki, ibijumba, inyanya ndetse n'ibindi... Abantu baranyuranyuranamo bahaha ndetse bagurirwa.

Mu isoko cyangwa se iduka rigurishirizwamo ibyokurya bitandukanye byiganjemo imbuto nka voka, amaronji, imineke, ibinyomoro, inanasi ndetse hari n'ibishyimbo, hari umugore uriho arabicuruza yicaye iruhande rwabyo.

Mu Mujyi wa Kigali rwagati, imbere y'igorofa ndende, iri mu mabara y'iroza ndetse n'umutuku, ikoreramo isoko rya Nyarugenge, haparitse amamodoka atandukanye, ari mu mabara atandukanye, umweru, umukara ndetse n'ikigina ndetse n'abantu banyuranyuranamo.

Mu iduka ry'ibitenge cyangwa se umwambaro abagore bakunda kwambara, hahagaze umugabo uriho arabireba, bikaba biri mu mabara menshi atandukanye kandi meza, nk'icyatsi, umutuku, ubururu, umuhondo, ibishushanyijeho ibishushanyo nk'inzovu ndetse n'ibindi.

Ni mu isoko aho higanje abagore bariho baracuruza ibiribwa bitandukanye, byiganjemo ibitoki, amakaroti, imineke, ibibiriganya, amashu, ibirayi ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye bishashe ku mashitingi hasi.

Iduka cyangwa se butike y'umukobwa ucuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo nk'imbuto, imyembe, imineke ndetse n'imboga nk'inyanya, pavuro, ibibiriganya ndetse harimo n'ubunyobwa.

Ni mu isoko risanzwe umukobwa ariho aracuruza imbuto zitandukanye, zirimo voka, amaronji, ibinyomoro ndetse hirya ye hari amabase cyangwa se indobo zirimo ibijumba, imineke, ibitoki ndetse n'ibindi byinshi.

Ni isoko riri mu cyaro riciriritse ricururizwamo imboga z'amoko atandukanye ziri mu mabasi, abacuruzi bigaragarako ari abana bakiri batoya ndetse bafite na bo abana batoya.

Isoko riri mu gasantiri runaka rigizwe n'imyenda ahanini ishashe hasi ku mashitingi, abenshi bafite imitaka kubera izuba ryinshi riba ribageraho.

Ni mu nyubako y'isoko aho ababyeyi bicaye bariho baragurisha ibiribwa bitandukanye byiganjemo imbuto nk'imineke, imyembe, ibinyomoro, amapapayi inanasi ndetse n'ibizwi nka wotameroni.

Inzu iri mu ibara ry'umutuku n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, iduka cyangwa se butike yahawe abakozi b'ikigo cy'itumanaho Airtel ngo bajye bagitangiramo serivisi zitandukanye, harimo izo kubitsa no kubikuza ndetse n'ibindi byinshi.

Ku muhanda imbere y'amaduka ahari abantu ndetse harimo n'umugabo ukorera ikigo gishinzwe itumanaho MTN, ariho aratanga serivisi zitandukanye zirimo kubikuza amafaranga, kohereza, ndetse no gukora swapu.

Amaduka cyangwa se kiyosike z'amasosiyete y'itumanaho akorera mu gihugu cy'u Rwanda ariyo AIRTEL ndetse na MTN, hatangirwa serivisi zitandukanye harimo izo kubikuza amafaranga, izo kubitsa amafaranga ndetse n'izindi zitandukanye.

Inzu y'umuhondo, iduka cyangwa se butike, ikigo cy'itumanaho giha abakozi bacyo kugira batangiremo serivisi zitandukanye, harimo izo kubitsa, kubikuza, mokashi, gukoresherezamo swapu ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikiganza gifashe telefone ntoya habwirwa nyiri ugufatirwa telefone ngo ashyiremo umubare w'amafaranga inyuma hari ikirangantego cya mobayiro mani ndetse kiriho na pini yakwifashisha yishyura.

Ni ku maduka cyangwa se amabutiki, aho ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN kiba cyarageneye abafatabuguzi bacyo cyangwa se abakiriya bacyo kugera bagahabwa serivisi zitandukanye, harimo izo kubikuza amafaranga cyangwa se izo kuyohereza.

Iduka cyangwa se butike iri mu ibara ry'umuhondo ahatangirwa serivisi zitandukanye z'ikigo cy'itumanaho MTN, aho abakiriya bagana kugira ngo babone uko babikuza amafaranga, bayabitsa, bagurira simukadi ndetse n'ibindi byinshi.

Kuri murandasi hari uburyo wakwifashisha uha mugenzi wawe amakuru ari mu kantu gatoya gashobora gutanga amakuru, kubera utudomo tukagize, telefone yawe ifata kamera ikayerekeza kuri ako kantu kari mu yindi telefone, hanyuma amakuru utari ufite nawe ukabasha kuyabona.

Ni mu imurikagurisha cyangwa se icyo dukunda kwita ekisipo, aho ibikorwa bya emutiyene isosiyete y'itumanaho mu Rwanda. Mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara bimuriye ibikorwa byabo aho batangira serivisi zitandukanye, abaturage baracicikana bihera ijisho.

Inzu cyangwa se iduka ritangirwamo serivisi z'ikigo cy'itumanaho cyitwa MTN, ahatangirwa serivisi zitandukanye, zirimo kohereza amafaranga, kubikuza amafaranga, kugura amayinite ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ni mu iduka cyangwa se butike y'ikigo cy'itumanaho cya Airtel, higanje ibara ritukura kuko ari ryo rikiranga, hari amatelefone ari mu kabati ndetse n'ibindi bicuruzwa bacururiza aho ngaho.

Imbere yinyubako ndende y'igorofa ifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, ahaparitse imodoka nayo iri mu bwoko bwa fuso y'amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu yanditseho ijambo iposita.

Urukuta cyangwa se urubuga rukorera mu Rwanda rwitwa Rutisi Rwanda wakwifashisha uguriraho ibikoresho bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi nka telefone ndetse n'imyenda y'abagabo n'abagore, ibikinisho by'abana n'ibindi bitandukanye.

Urupapuro rw'ibanze rwo k'urubuga kasha rwifashishwa umuntu ahaha ibyo yifuza byose, hariho urushakiro rwaho ushobora kwandika icyo wifuza guhaha ndetse n'ubusobanuro bw'icyo wifuza guhaha. Ukeneye ubusobanuro hariho nimero wabahamagaraho ukababaza byose ku byo wifuza guhaha.

Urubuga rwo kuri murandasi rwifashishwa uhaha ibintu bitandukanye ubikura mu mahanga ubizana mu Gihugu cy'u Rwanda, ibyo bihugu ushobora guhahiramo harimo nk'Ubuhinde, Ubuyapani, Ubushinwa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Urubuga rwitwa AliExpress rwo kuri murandasi rugurishirizwaho ibintu bitandukanye, hari aho wakwandika ukaba wabaza ibindi ushaka, hagurishirizwaho amatelefone amasakoshi ndetse bakakwereka n'ibiciro byabyo ukaba wabasha kubyigurira.

Rwagati mu muhanda wa kaburimbo, ku muhanda werekeza Bugarama haparitse imoto ndetse n'umumotari uyihagaze iruhande. Kuri icyo kinyabiziga cye, hariho igisanduku kisa n'ibara ry'icyatsi kiriho amagambo y'umweru yanditseho ngo vuba vuba.

Ni ikigo cyangwa se isosiyete yitwa Iposita, ifite inyubako igeretse kabiri mu mabara y'umuhondo n'umukara, ndetse n'ibinyabiziga by'icyo kigo na byo biri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara, birimo ibikamyo, amamodoka ya mini bisi ndetse n'imoto.

Moto eshatu ziparitse ahantu mu bwatsi ziriho igisanduku kifashishwa hagemurwa ibintu bitandukanye, hariho ibirango by'ikigo cya migoro ikigo umuntu ashobora kwifashisha ahahiraho kuri murandasi, hari nimero wababonaho ndetse ukababaza ibisobanuro birambuye.

Igipapuro kimwe mu zigize urukuta rwo kuri murandasi irembo, urubuga rudufasha kubona serivisi zitandukanye, harimo n'iz'umuryango, nk'icyemezo cy'uko uri ingaragu, serivisi z'ubutane, kwemeza ko umuntu ari imfubyi, icyemezo cy'utishoboye warokotse Jenoside yakorewe abatutsi, mu gihumbi kimwe, magana cyenda mirongo icyenda na kane ndetse n'izindi serivisi zitandukanye.

Urukuta cyangwa se urubuga rwo kuri murandasi rwitwa wodi webu ishopingi ushobora kwifashisha uhahira mu masoko akomeye yo kuri murandasi nka amazone dotikomu, aribaba dotikomu, ibeyi dotikomu ukabasha kubona ibicururizwaho mu buryo bworoshye harimo nk'ibyuma bimesa, amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi.

Igikoni cyiza kiri mu bwoko bw'ibigezweho, cyiganjemo ibikoresho bifite amabara y'umweru, bivanzemo umukara, harimo ibikoresho bitandukanye byoroshya ubuzima, harimo ibikonjesha ibiryo bigatuma bimara igihe kinini.

Icyo amadorari igihumbi n'ijana byagufasha kubona mu gihe cy'ukwezi i Kigali mu Rwanda, ni inzu nziza y'igorofa iri mu mu mabara yijimye, yegereye umuhanda wa kaburimbo ndetse ifite uruzitiro rwiza mu mabara y'ubururu bwijimye ndetse n'umuhondo, ikaba ifite igipangu cy'umukara.

Inzu ifite uruganiriro rwiza, rusize amabara y'umweru ndetse n'amarido meza, harimo intebe z'ubururu n'imeza y'umukara. Hirya harimo intebe z'uburiro ndetse n'icyuma gishyirwamo ibiryo mu rwego rwo kugira ngo bikomeze bigire umwimerere.

Icyo amafaranga y'amadolari igihumbi na magana abiri byaguha mu gihe cy'ukwezi i Kigali mu Rwanda, ni inzu nziza y'igorofa igeretse rimwe ndetse ifite ubusitani bwiza, n'akabaraza wakwicaraho imbere mu gihe uganira n'abawe.

Icyo amadolari magana atanu mirongo itanu yagukorera mu kwezi muri Kigali mu Rwanda, harimo inzu nziza ifite ibikoresho byiza bigezweho, birimo televiziyo, fani, intebe nziza, imeza nziza ndetse n'umutekano, ahantu hameze neza.

Icyo amafaranga ibihumbi magana tatu mirongo itanu by'amanyarwanda byagufasha mu kwezi, ni ukugukodeshereza inzu nziza iri mu ibara ry'ivu, igisenge kizamuye kiri mu ibara ry'umutuku, ndetse na parikingi ihagije. Ikaba ifite uruzitiro rwiza mu mabara y'umukara.

Icyo ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda byaguha mu kwezi kumwe, ni inzu nziza itarimo ibikoresho iherereye i Kigali i Kibagabaga, ni inzu y'igorofa igeretse ifite amabara y'umweru ndetse n'amatafari ahiye, ifite ubwogero bubiri ndetse irasa neza, iri mu gipangu cyiza.

Icyo ibihumbi magana tandatu by'amanyarwanda byagufasha mu kwezi ni ukugukodeshereza inzu nziza y'igorofa iri mu mabara y'iroza ryerurutse ndetse ifite uruzitiro rwiza n'igipangu kiri mu ibara ry'umutuku. Ikaba iherereye Kimironko, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu.

Icyo amafaranga y'amadorari ibihumbi magana abiri mirongo itanu yakugurira, ni inzu imwe ariko ikoze mu buryo havamo ebyiri zitandukanyijwe n'uruzitiro hagati yazo, buri yose ifite ibyumba bine.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabara y'icyatsi ndetse n'andi avangavanze, ifite igisenge kiri mu mabara y'umutuku yijimye, ndetse na parikingi isashemo amabuye asa neza, afitemo ishusho zigiye zitandukanye z'inyenyeri. Ikaba iherereye i Kanombe.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, igisenge kizamuye mu ibara ry'ubururu ndetse n'amarangi y'iroza, ikaba iherereye i Kanombe, ifite ibyumba bine ndetse n'ubwogero butatu, ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda.

Umukobwa uhagaze imbere y'inyubako ndende y'igorofa ifite parikingi yisanzuye nini irimo imodoka zitandukanye, iyo nzu ni aparitema, ni inzu zagenewe guturwamo n'abantu batandukanye, iherereye Nyarutarama muri Kigali.

Miliyoni ijana z'amafaranga y'u rwanda zakugurira inzu nziza ifite amabara meza nk'ibara ry'umukara ndetse n'igisenge kizamuye mu ibara ry'umutuku. Ifite parikingi nziza irimo amapave nayo ari mu mabara y'umutuku, ikaba iherereye i kigali i kanombe.

Inzu ifite igipangu cyiza cyegereye ku muhanda wa kaburimbo, iri mu gace keza ubona gatuje ndetse ikaba ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atandatu.

Iduka ririmo ibikoresho bitandukanye byo kwambara, ibyinshi bikozwe mu ruhu, harimo nk'imikandara y'abagabo ndetse n'abagore ndetse n'inkweto zikozwe mu ruhu nziza zikomeye, ni urukuta rwuzuyeho izo nkweto ndetse n'iyo mikandara.

Mu isoko cyangwa iduka rinini, riri ahantu heza hafite isuku, ricuruza ibyerekeye n'imirimbo yo muri salo ndetse no mu cyumba nk'amatapi yo gusasa hasi, hakagaragara neza. Hari urujya n'uruza rw'abantu, abacuruzi ndetse n'abaguzi.

Mu iduka ry'imyenda y'abasore ndetse n'abagabo ahagaragara imyenda itandukanye irimo imipira y'imbeho, irimo imipira migufi ndetse n'amapantaro, ahagaragara umusore witeguye kugura ndetse no kureba ibicururizwaho.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza butangwa n'ikigo cy'igihugu cya RSSB Rwanda Social Security Board, iyi karita ikaba igufasha kujya kwa muganga ukabona ubuvuzi mu buryo bwihuse kandi buhendutse.

Ni kwa muganga aho abarwayi bakirirwa h'ibanze, bakerekana ikarita yabo ya mitiweri, ni ubwisungane mu kwivuza bubafasha kwivuza batarinze kurembera mu rugo ku giciro gitoya ndetse bakavurwa byihuse.

Icyumba cyahuriyemo n'ingeri nyinshi z'abantu, abana batoya, abagabo ndetse n'abagore, bose bahuriye ku idini rya Isilamu. Bafashe mu kiganza ikarita zabo z'ubwisungane mu kwivuza ari zo mituweli. Uyifite ntarembera mu rugo ndetse abona ubuvuzi bwihuse ku giciro gitoya.

Inyubako y'igorofa ndende iri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu naho ikigo cyitwa rssb gikorera. Ni ikigo gishinzwe gutanga ubwishingizi rusange ku baturarwanda ari yo mituweli ndetse n'iyizwi ku nyito ya rama.

Ni mu iduka ryiza rifite isuku ririmo amatara ku buryo ubasha kubona ibicuruzwa neza ni rinini rifite etajeri ndende irimo ibicuruzwa bitandukanye, ibiri mu makarito, ibiri mu bikopo ndetse n'ibiri hasi ku ruhande, rigizwe n'ibice bitandukanye.

Ni mu isoko rya kijyambere abenshi bita supermarket, higanjemo imiceri, amasukari, amafarini, aho umubyeyi ari kwifashisha akuma kamufasha kubisunika mu buryo bumworoheye, kabyerekeza aho ari bubashe kubyishyurira.

Isoko rya kijyambere rigizwe naho bagurishiriza imboga ndetse n'imbuto harimo pome, inyanya, karoti, tangawizi, imiteja ndetse n'ibindi byinshi.

Ni mu isoko, rinini, ryiza, rifite isuku, ndetse abaje guhaha baratambuka bareba ibyo baje kugura, hari ibyuma bikonjesha ibyo kurya ngo bimare igihe kinini bitangiritse, ndetse hari n'ibindi biri mu mashashi yaba ibyo guhita urya cyangwa se ibyo wakoresha igihe kinini.

Mu isoko cyangwa se mu iduka rya kijyambere, rifite isuku ndetse n'urumuri ruhagije, ku buryo ubasha kubona ibyo urimo urahaha, hari etajeri ndende ziteretseho ibicuruzwa byiganjemo imitobe ikorwa n'uruganda rw'inyange ndetse n'amata akorwa n'urwo ruganda.

Mu isoko cyangwa se mu iduka ricururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibyokunywa bitandukanye, hari ibyuma bikonjesha ibiribwa mu rwego rwo kugira ngo bigumane umwimerere wabyo ndetse bibe bikonje, harimo ibyo kunywa bitandukanye bikorwa n'uruganda rwa Buralirwa, harimo nka fanta koka, orange, supriyite ndetse n'ibindi.

Isoko cyangwa se butike irimo etajeri ndende kandi iriho ibintu byinshi mu bwoko butandukanye nk'ibirungo byifashishwa abantu bateka ndetse n'ibyo gushyira mu mata nka nido, hari n'amajyane ari mu bikarito by'umukara ndetse n'utubanga.

Iduka cyangwa se butike rizwi nka buriyoshi, ni ahantu hafite isuku cyane, hari intebe wakwicaraho mu gihe uri kunywa ibyo waguze, ndetse unarya ibyo waguze, hari biswi nyinshi z'amoko atandukanye ndetse na cipusi arizo bita pilingozi.

Mu isoko rya kijyambere ryiza rifite isuku, hari ibicuruzwa bitandukanye, nk'imbuto imineke, inanasi, ibinyampeke biri mu mabase bitandukanye, nk'ibishyimbo, ubunyobwa, ibigori n'ibindi byinshi biri mu mashashi.

Mu isoko rya kijyambere abenshi bita supamaketi, harimo amatara meza atuma ubasha kubona ibyo uriho urahaha, mu matayejeri ahari harimo imitobe itandukanye mu mabara atandukanye ndetse na fanta nka koka, sipurayiti n'ibindi byinshi.

Ni mu iduka ryiza risa neza rifite isuku, bamwe bakunda kwita supamaketi, hari etajeri ziriho ibicuruzwa bitandukanye, ibyinshi biri mu makarito, ibindi biri mu mashashi. Ni mu gace karyo ka gatanu, aho hari umugore uriho arasunika akagorofani kifashishwa bashyiramo ibyahashywe.